Virus ya marbarg. Ni virus yagaragaye mu gihugu, kuva mu mwaka ushize mu mpera zawo, n'uyu nguyu muntangiriro. Aho ifata abantu bakagira ibimenyetso bitandukanye, harimo kuribwa umutwe, gucika intege n'ibindi.

Isuku ni isoko y'ubuzima aho u Rwanda rwashyizemo imbaraga mu kunoza isuku, aho tugenda, aho tuba ndetse no ku mibiri yacu. Aho usanga hamwe na hamwe baragiye bahashyira ibikoresho byo gushyirwamo imyanda ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Ikibuga cya basketball, mu gihugu hagiye hari ibibuga byinshi, yaba iby'umupira w'amaguru, ibya basketball, ibya volley ball aho bifasha kuzamura impano z'abakinnyi aho u Rwanda rwashyize imbaraga mu kuba abantu batungwa n'impano bafite, ibi bibuga rero ni kimwe mu kifashishwa mu kuzamura impano z'abakiri batoya.